Abagize umudugudu baje ku ivomo gushaka amazi, ku ivomo hari ibikoresho bikoreshwa mu ngo harimo amabido, amabase, amasafuriya ndetse n'ibikombe, abaje kuvoma bose buri muntu wese yaje yitwaje igikoresho cye atwaramo amazi.

Muganga arimo aratera urushinge umubyeyi w'umu mama, inyuma yabo hari undi mubyeyi urimo arabibafashamo, bose bambaye udupfukamunwa, umurwayi yambaye agapfukamunwa k'umweru, muganga n'uri kumufasha bambaye udupfukamunwa tw'ubururu.

Abana batatu barimo bakaraba amazi yatobotse mu itiyo, itiyo ifashe ku gikuta munsi yabo hari igiti, igiti cy'amahwa ndetse n'ibyatsi bigaragara yuko abana bishimye cyane bafite n'ibitwenge ku maso.

Umwana mutoya cyane afite imyaka mikeya, wambaye agatambaro mu mutwe, ndetse n'ingofero mu mutwe, afite uburoso bw'amenyo, arimo aroza amenyo, anezerewe cyane yishimye.

Icyumba gikoreshwa havurwa abarwayi barwaye amenyo, icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe ikoreshwa na muganga, iryamwaho n'umurwayi, muganga akagenda ayihindukiza bitewe n'aho ashaka.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzangano, bicaye mu cyumba kimwe n'umubyeyi, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro, arimo abaganiriza ku byerekeranye n'ubuzima rusange mu Rwanda.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abantu bane, abagabo babiri n'abakobwa babiri, bose bafite udukingirizo mu ntoki barimo bashishikariza abantu gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye hifashijwe agakingirizo.

Inyubako igizwe n'amarangi y'umweru ibirahure ndetse n'amatafari ikorerwamo n'abaganga bavura abarwayi ruguru yayo hari umuhanda unyurwamo n'abarwayi igihe baje cyangwa se bava kwivuza.

Icyumba cyo kwa muganga kigizwe n'igitanda, gishashe neza hakoreshejwe ishuka y'umweru, kigizwe n'ibindi bikoresho harimo imashini ebyiri ndetse na mudasobwa z'izo mashini zigeretse hejuru yazo, bigaragara ko abaganga bazikoresha igihe cyose bari mu kazi.

Umwana w'umukobwa arimo araganiriza umuganga ibyerekeranye n'uburwayi bwe, inyuma yabo hari undi muganga w'umugore ufite urupapuro n'ikaramu, wegamye ku gikuta.

Inyubako ikorwarwamo ubushakashatsi, ikaba igizwe n'ibirahure, ibyuma ndetse mo imbere h'iyo nyubako harimo intebe zikikije amatabure yabugenewe zose zikaba zikoreshwa n'abashakashatsi igihe bari mu kazi kabo ka buri munsi.

Abagore batatu bambaye impuzankano y'ubururu hafi yabo hari jaride nziza cyane inyuma yabo hari ibiti bitoshye bose bambaye udutambaro mu mutwe bari kwa muganga mu muka kabo.

Mu kibuga gikinirwamo umupira w'amaguru umukinnyi umwe yagize ikibazo yitura hasi, abashinzwe gutanga ubufasha bw'ibanze barimo baramuha ubufasha bw'ibanze, inyuma yabo hari abandi bakinnyi bahagaze bareba uko igikorwa kirimo kigenda.

Umuhungu wambaye umupira w'umweru urimo kunywa amazi akoresheje icupa, intoki ze zifashe icupa ukuboko kwe kwambitse isaha y'umukara, afite umusatsi mukeya n'ubwanwa bukeya, ari kuyanywa araramye areba mu kirere hejuru.